Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, ni iterambere ry'igihugu rero iyo ufashe urubyiruko ukaruhuriza hamwe mu mushinga runaka bakaba ari bo bambasaderi bo kwamamaza icyo kintu se cyangwa kugikora, uba wizeye ko icyo kintu hundred percent kiri bugende neza, rero kugira ngo urubyiruko ruzakore ibyo bintu biba bigomba kuba rwarahawe amahugurwa ahagije yo kugira ngo babikore.

Imwe mu minsi mikuru ijya iba mu Rwanda ndetse ikanatanga konji, ikunze kwizihirizwa hamwe hakaza abantu benshi batandukanye, abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bakaza kwisanisha n'abaturage, bakaba bakungurana ibitekerezo, bakavuga ku byabaye bwa mbere, ibyagezweho ubu, ndetse n'ibizaba na byo bakaba babivugaho bari kwishimira intsinzi.

Bamwe mu bayobozi b'igihugu bareberera abaturage, baba bagomba kujya bakora ubuvugizi bwabo, ibibazo ibyo aribyo byose basanze abaturage bafite bakaba babiganiraho, bakareba ko babibonera hamwe ibisubizo, iyo ikibazo cyamenyekanye egare ko n'igisubizo kiba kigiye kuboneka.

Mu gihugu cy'u Rwanda nk'igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere, gikunze kugira imishinga myinshi ituruka mu bihugu byo hanze, ikaza mu gihugu gutera inkunga, urugero hari imishinga myinshi ya foundation, n'izindi ziba zaturutse hanze nka Care international, imishinga myinshi cyane itandukanye iza mu gihugu ariko iturutse hanze, ikaza gufasha abaturage bo mu gihugu, mu bintu byinshi bitandukanye.

Inama nshyashya ihuriro ry'abakozi ahantu baba bari buhurere, abo bakozi bakora mu kigo kimwe, bafite intumbero imwe niba ari uguteza imbere ikigo cyabo nyine ubwo ni yo ntumbere bafite, ubwo rero iyo bahuriye hamwe bari kwiga kuri icyo kintu baba bagomba bose kuba bari konsantere kandi bakungurana ibitekerezo, kugira ngo bateze imbere ikigo cyabo.

Mu nama rusange akenshi usanga inama rusange z'abaturage ntihabura ingingo zitandukanye kandi nziza zo kwigaho, urugero nka ejo heza. Abaturage nk'aba ngaba bashobora guhurira ahantu hamwe barikwiga k'umumaro wa ejo heza ndetse no kwibumbira mu ejo heza. Ku bw'ejo hazaza habo bakabashishikariza kuyijyamo ndetse bakababwira n'icyiza cyabyo kugira ngo bayijyemo kandi bayikunze muri rusange.

Zimwe mu nama zahuriyemo ibikomerezwa ziri kwiga ku ngingo nyinshi zitandukanye, aho baba bakeneye byinshi cyane kuko muri iyi nama haba hari bwigirwemo ibintu bitandukanye harimo n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Izi nama rero ziba zigamije kungurana ibitekerezo by'uburyo iterambere ryakaguka vuba kandi bishoboka.

Akenshi gahunda zose za leta zigiye gukorerwa mu baturage ziba zikeneye urubyiruko rw'abakorerabushake rushobora kwitanga rugakora cyane, rwamamaza iyo gahunda se cyangwa iyo gahunda kugira ngo igerweho imbaraga z'urubyiruko zirakenerwa cyane. Rero uru rubyiruko rubanza kuriha amahugurwa kugira ngo rubone ibyo ruzajya rubwira abaturagesanga ibyo ruzakora muri rusange.

Leta izi gahunda nyinshi zitandukanye harimo ba mudugudu, abajyanama b'ubuzima, hari igihe rero kijya kigera bakavug bati ''kuri buri murenge dutumiye muri buri kagari dushakamo ba mudugudu, abajyanama b'ubuzima, bamu mutwarasibo'' bagatumira nyine inzego z'umudugudu z'ibanze zikaba zaza noneho nyine bakiga ku kintu cyatuma umurenge wabo utera imbere muri rusange.

Inama rusange y'abaturage cyangwa se amakoperative abayagize bagahurira hamwe, bari kwiga ku iterambere rya koperative, wenda bari kumenyeshwa ihindagurika ryabaye ry'ikirere, kugira ngo bamenye ibyo gukora n'ibyo kwirinda.

Serivisi zitandukanye za leta aho bazihuriza hamwe bakaziha izina runaka, turebereye hamwe nk'izina ryitwa Tengamara, aho bayishyiriyeho kwishyura imisoro vati aho buri muturage wese ahabwa igihembo iyo agomba kwishyura imisoro ye neza bidatinze kandi bitanagoranye cyane, iyo yishyurira igihe akoresheje Tengamara akamenya amakuru menshi agezweho ku musoro akabasha kubikurikirana yabasha no gutsindiri.

Itangazo ryo kumenyekanisha ipatanti y'umwaka wose wa bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa se igihembwe cya mbere uyu munsi. Wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu, unyuze kuri wa wa wa , akadomo ara ara eyi, akadomo govu. rwa wabasha kubona amakuru menshi atandukanye ku ipatate.

Ibikorwa remezo leta ifite harimo no kubaka iminara miremire gusa iyo minara ikaba yikoreye ibintu byinshi bitandukanye, uko amateleviziyo agenda avuka ari menshi ni nako n'iminara igenda yiyongera, kuko buri televiziyo se cyangwa radiyo iba igomba kugira iminara ishamikiyeho kugira ngo ibashe kumvikanwa mu gihugu hose kugira ngo hose ibashe kuhagera nta nkomyi nta kibazo.

Mu bikorwa bya Leta harimo no gutuma buri muturage wese yisanga mu gukoresha ikoranabuhanga, aho atari bukenere umuntu runaka kugira ngo akore ikintu yagakwiye gukora, akigisha abaturage kwandika amaletere, gukoresha mayikorosofuti wadi, no gukoresha izindi mbuga zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo bazamure ubumenyi ku ikoranabuhanga kuri buri muturage wese mu gihugu.

Ubu bwo byararoshye aho buri muturage wese bitewe na telefoni yifuza yayitunga, aho turi busange ama telefoni yose ari gucururizwa, urugero nka: tekino ugasanga tekino iri kwamamaza ibyapa byazo biramanitse, ko tekino ari telefone nziza kandi yagurwa, uretse na tekino gusa na eyateri nazo ziragurwa, mu buryo bwinshi butandukanye.

Hamwe mu hantu haba harereye ibintu bijyanye n'amashanyarazi cyangwa insinga muri rusange byitwa amataransifo cyangwa iminara rusange. Haba hagomba kwitabwaho cyane ndetse hagacungirwa n'umutekano kuko ari ahantu h'ingenzi mu gihugu, aho usanga habitse ibintu byinshi cyane bifite umumaro. Abaturage baba bagomba kuhirinda kuko bashobora kuhagera ugasanga bateje ibyago runaka harimo no kwangiza ibyagezweho.

Abacitse ku icumu rya jenoside bahabwa icyemezo abenshi bamaze kugikura mu irembo kuko mu irembo ni ho haba izi serivisi zose z'ibyemezo byinshi bitandukanye. Rero abantu bose bacitse ku icumu aharanira ko agomba kuba afite icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya jenoside kugira ngo serivisi iyo ariyo yose ijyanye n'ubuvuzi, ijyanye n'imibereho yahabwa ariko afite iki cyemezo aba yemerewe kuyihabwa nta kibazo.

Zone cyangwa se ahantu hari ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ahantu hari ibintu bijyanye n'iminara ya netiwaka, haba hagomba kuba hubakiye cyane ndetse hanarinzwe kuko aho ni hamwe mu hantu haba hafitiye akamaro igihugu cyane cyane cyane.

Abaturagihugu se cyangwa abaturarwanda muri rusange iyo bakeneye kujya hanze y'igihugu bakenera viza, rero ubu byaroreshye hamwe na Eko banki se cyangwa Pana Afurika banki, iradufasha cyane mu buryo bwo kubona amaviza tukajya hanze tukajya gutembera cyangwa mu buryo bwo kwiga cyangwa no gushaka akazi ko hanze.

Aho umuntu ava kagera wese bitewe n'umutungo mu ufite wabo wbuzezefate cyangwa warawuhawe ari umutungo w'umuryango ugenda uhererekanwa, uba ugomba kuwusorera kuko uwo mutungo uri uba ugomba kuwusorera mu buzima bwa buri munsi ndetse utarengeje itariki rwo kwirinda ko uyu musoro wari uhagenewe wakubwa kabiri.

Umwe mu mumaro w'ibinyamakuru harimo no kwamaza iki cyangwa kumenyesha abantu ibiri kujya mbere, kuri arabi eyi rero haba hari gucaho ,uyu munsi bakavuga bati tariki iyi n'iyi cumi n'ebyiri z'ukwa cumi biri na makumyabiri na kane hari buceho ikiganiro gikurikira, ikiganiro kiri buze kuba kiri kwiga ku misoro n'amahoro aho buri wese ahawe karibu ndetse aha buri umwe wese yemerewe kubaza ikibazo yifuzaga akaba yagisubizwa.

Uruganda rugezweho rutunganya amabati, rugafata amabati ashaje cyangwa se ibindi byuma byose rukabitunganya neza, hakavamo ibati rifite garanti rizatinda, ibati ryiza uzashyira ku nzu yawe ukumva uratekanye, ibati ryiza rizaguhenda ariko ukamenya ngo uguze ibati koko!

Hamwe n'urubuga www. irembo. gov.rw wabasha kubona dine worf in provision lices wabasha kwishyura bihumbi bitanu gusa bakabasha kubona provisaire lices ukabasha kubona uruhushya rukwemerera gutwara ibinyabiziga se cyangwa rukwemerera ko amategeko y'umuhanda wayize neza.

Byikorere gahunda ifasha abaturage kwinjira mu bikorwa by'irembo bitandukanye yashyizweho na leta, aho uba ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga icyo ari cyo cyose, ufite telefoni agakanda akanyeri icyenda zero icyenda urwego ukabasha kwiyishyurira mituweli utiriwe uva mu rugo, ufite mashini nawe agakoresha wawawa doti irembo doti gove doti rwa nawe akabasha kwiyishyurira mituweli atavuye mu rugo.

Ubu byaroroshye aho buri muturage wese aho aherereye aha ariho hose, aho abasha kubona sinyale ziturutse ku minara, aho Leta yabashije gushyira iminara rusange. Mu nce nyinshi zitandukanye z'igihugu, kugira ngo buri muturage wese ahari akava ahava akagera, abashe kubona enterinete ndetse abashe kubona sinyali bitamugoye.

Ubu hamwe n'Irembo ibintu byose byaroroshye, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwasohoye uburyo bushyashya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta, hamwe na RGB, Rwanda Government Board, ku bindi bisobanuro byinshi wasura w.w.w.Irembo.gov.rw. Ukaba wabona amakuru menshi yerekeye n'uburyo bushyashya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta.

Abaturage bari guhugurwa ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, uwo muturage ugomba kumuba hafi, kuko akenshi usanga ibyo bintu kumuhugurira bijyanye n'ikoranabuhanga, aba atanabimenyereye bigasaba ku muba hafi ukajya umwerekera ukabimuhugura kuko mu isi turimo, iterambere turi kujyamo rikeneye ikoranabuhanga cyane kurusha ikindi kintu icyari icyo ari cyo cyose.

Mu buryo bwo kugenzura igihugu muri rusange aho kigeze kiyobora, cyangwa se n'imiyoborere muri rusange uko yagenze, hazaho gukora ubushakashatsi ndetse no gukusanya amakuru y'uburyo mu gihugu bari kugenda bayobora, hakaba habaho guhindura polutike y'imiyoborere se cyangwa no kuyivugurura, bitewe n'amakuru aba yavuye mu miyoborere iri kugenda igaragara mu nzego zose.

Dore uko wakinjiza amakuru ya konti ya banki kuri i tagisi ukoresheje tini nijambo banga systemu utemo banki u ukorana nayo uzuza nimero ya konti ya banki yawe ongera n'izindi konti za banki waba ufite kanda ahanditse verifiya injiza ijambo i ban ryoherejwe kuri telefone emeyiri wemewe.

Ahantu kenshi hakunze kubakwa amataransifa se cyangwa amapoto, yabugenewe yo gushyiraho insinga z'amashanyarazi, ziri bujye mu duce twinshi dutandukanye, hakunze kuba hari akabogisi gakura amashanyarazi hasi mu butaka, kuko iyo bari kubaka kashipawa se cyangwa ububiko bw'amashanyarazi, bakunze gukoresha amabuye, amakara ndetse n'imyunyu.

Cyane rwose ibikorwa remezo na n'ubu biracyakomeje kwaguka, ndetse no kubakwa kuko igihugu cyacu cyiracyari mu nzira y'amajyambere, ibyo rero bituma badahwema kwagura ndetse no kuguma bubaka ibikorwa remezo harimo amazu menshi cyane y'ubucuruzi ndetse n' amamashanyarazi bafite puroje kugirango bagezeho uyu muturage wese amashanyarazi mu buryo bworoshye abacanye abanyarwanda twese ducana nta kibazo.

Ipoto iba ifite umumaro cyane mu ipoto iba iri hagati na hagati santere nyinshi zitandukanye bakayishyira hagati iri buhereze nka santere 3 cyangwa se nyinshi zitandukanye bitewe na santere aho iyo poto ihuriweho imigozi myinshi iba ijyana n'amashanyarazi iyo poto iba ikenewe cyane ndetse iba ifite umumaro munini kurusha izindi zose.

Muri gahunda ya leta harimo no kuvugurura akangura buri muturage i aho ari hose akaba yabasha gukora bamwe akisangamo umwuga w'ubumotari, abandi bakisanga mu myuga myinshi itandukanye, ahangaha rero ni muri Kigali, aho abaturage bahahuriye ari benshi buri wese ari kujya muce zitandukanye bitewe n'akazi akora cyangwa n'ikiri mugenza muri iyo minsi.

Mu buzima busanzwe hari abakozi benshi batandukanye, hari abayede bisa n'abakozi ba ba lege, abakozi bariga baba bashinzwe kumenya ngo amashanyarazi nimba yapfuye turahagerera igihe, dutabare n'ingoga noneho baba bameze nk'abasirikare, aho atabajwe ahita atabara agakora, agakemura icyo kibazo, amashanyazi yari yapfuye akayasubiza ku murongo bikagenda neza.

Iminara yose aho ive ikagera, ikunze kuba ifite bogisi ,ihuriyeho insinga nyinshi ,zikura umuriro mo mu butaka, zikaba zawuzamura zikawunyuza mu makibo cyangwa se insinga zigiye kuwujyana mu baturage byoroshye.

urugomero rw'amashanyarazi ruherereye ahantu hose ruba ruherereye habagomba kuba hari icyapa cyerekana ko aho hantu hateze ibyago byinshi cyane ku gihugu, ndetse naho n'abahaturiye muri rusange, rero REG ni ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu kiyitaho, kikamenya uko ari kugenda kikamenya niba nta cyangiritse cyangwa se nta kigomba kuvugururwa.

Umunara uri muri bimwe kwereka ko uteye neza. Uri muri mwe bikwereka ko aho uherereye ko nta kibazo wahagirira, kuko bakwiba telefone bagakoresha mo umunara ukamenya aho yagiye. Iyo uturanye n'umunara uba wizeye umutekano wawe, ukaba ufite netiwake zihagije. Ni yo mpamvu rero mu Gihugu ahenshi usanga iminara baragiye bayimanika cyane.

Imwe mu minara ifasha abaturage kugezwaho amashanyarazi byoroshye kandi binyuze mu mucyo, iyo minara iri ahantu hinshi hatandukanye kuko iyi minara ni ingirakamaro cyane, ifasha abaturage kubona amashanyarazi biboroheye ndetse bagacana bagatana ukubiri n'umwijima.

Ihuriro ry'ibintu byinshi bitandukanye, uri bushyire hamwe bikabyara umuriro w'amashanyarazi. Mu yandi mazina ha bakazita urugomero rw'amashanyarazi. Urugomero rw'amashanyarazira rugomba kwitabwaho cyane cyane kugira ngo rutagira ibyo rwangiza, kugira umutekano wizewe, kugira ndetse n'umuriro umaze guhaza abaturage bose muri rusange.

Jaride, jaride ni cyo kintu cya mbere gituma ahantu hasa neza, ndetse ubwiza bwacyo bukajya hanze. Rero iyo jaride yitaweho, jaride bakamenya ko ikorerwa isuku, apana kwangizwa uko ibonye, ibiti bagashyiramo ibitanga igicucu. Byinshi bitandukanye, imigano, n'ibindi bituma jaride iguma isa neza.

Hamwe mu hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi, urugero nka serivisi za banki, serivisi hacururizwa, abantu bakeneye kuhaparika, bakeneye kuhaparika, kugira ngo babone izo serivisi zihakorerwa.

Mu bikorwa remezo harimo kubaka amashuri yagezweho, kubaka amavuriro, iyi leta usanga akenshi amafaranga yayo menshi bayashora mu ireme ry'umurimo ndetse no gutegura umwana w'igihugu kugira ngo ejo hazaza he hazagende neza, aribwo bubaka amashuri kugira ngo abana bagere aho bari kurererwa heza kandi bahabwe uburezi bugezweho kandi bufite ireme.

Bimwe mu bitaro bikomeye cyane mu bihugu by'ingirakamaro, bakunze kohereza abantu benshi byananiranye byitwa CHUB. Bino bitaro ni nibyo bya mbere mu bi bikomeye cyane ndetse byabayeho kera, bino bitaro bifitiye akamaro abantu benshi cyane ndetse byifurizaho abantu benshi cyane badafite umumaro byitwa CHUB.

Leta y'u Rwanda igerageza guhangana n'ikibazo cy'amazi ndetse n'ikibazo cy'umwanda ukabije, ari bwo bashyiraho amarigori acamo amazi, kugira ngo birinde amasuri n'ibindi bibazo byose byaterwa n'amazi.

Ahantu hatangirwa serivisi nko kwa muganga, baba hagomba kuba harangwa n' isuku kuko ntabwo umurwayi yaza kwivuza ngo asubire nanone agende yarwaye, haba hagomba kuba hari kandagira ukarabe, hari abantu bari bukubwire ngo, nimba uriya ari umwanda ufite, ushyire muri puberi wihuta hasi, haba hagomba kuba harangwa n'isuku kurusha ahandi hantu ariho hose.

Igihugu cy'u Rwanda cyacu nubwo kikiri mu nzira y'amajyambere, ntabwo bikuyeho ko cyateye imbere mu bikorwa byinshi bitandukanye, harimo n'ubuvuzi, aho buri muturage wese urwaye amaso, aba afite ibigo byinshi by'ubuvuzi ari bugane agahabwa serivisi yo gutunganyirizwa amaso, bakaba bamuha ubufasha butandukanye, harimo kuba bamuha rinete n'ubundi butandukanye ariko nyine ntiyabura aho yivuza.

Zimwe mu nyubako ziherereye mu Gihugu cy'u Rwanda zikomeye, zikorerwamo ibikorwa bitangaje ndetse zikorerwamo ibikorwa bikomeye cyane, urugero ibigo by'amashuri, ibiro bya Leta ziba zifite amadarapo hanze, nk'ikirango cy'uko iyo nyubako yemewe mu gihugu kandi iyo nyubako ari iy'Abanyarwanda.

Bimwe mu bintu by'ingenzi abantu dukenera harimo n'ibitaro, ubuvuzi rusange. Niyo mpamvu rero buri gace kose usanga haherereyemo ibitaro nka Nyarugenge disitirikiti hosipito. Ibitaro bya Nyarugenge, Umurenge wa Nyarugenge bafite ibitaro nabo. Ibitaro kandi biba bigenewe buri muturage wese nta n'umwe biheje muri rusange.

Kwisuzumisha kenshi gashoboka biba ari byiza cyane tukamenya uko imibiri yacu imeze, tukamenya uko amaraso ari kugenda, tukamenya uko umutima utera biba ari byiza, kwisuzumisha mbere yuko urwara ukaremba ukajya mu bitaro biba byiza iyo ugiye uhura na dogiteri cyane, kugirango agufashe kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze, icyo wakora kugira ngo bukomeze kugenda neza.

Uburezi bwiza, uburezi budaheza, uburezi bugezweho, aho umunyeshuri yiga, agatangira pirimeri akazarinda asoza akiga yunivasiti ndetse akazanakomeza abaye abishaka, ubu nibwo burezi bugezweho.

Aho tuba tugeze mu rukiko, aho haba hari umucamanza, umushinjacyaha n'umushinjura ndetse n'abareba bamwe bari ku ruhande rw'urega abandi bari ku ruhande rw'uregwa, mu rukiko uhasanga abantu bameze gutyo batandukanye benshi ugasanga umwe ari gukwepa icyaha uwundi ari kukimushinja ndetse nicyo kikwereka ko wageze mu rukiko ukibona umucamanza n'abo bose.

Uburyo bugezweho bwo gukoresha wandika ibitabo, ukoresheje indimi eshatu ziri popira, abantu bose bazi, Ikinyarwanda, Icyongereza, n'Igifaransa, side imwe ikaba iriho Ikinyarwanda, iyindi iriho Icyongereza n'indi iriho Igifaransa, kugira ngo buri muntu wese, mu rurimi abasha kumva, abe ariho asoma.

Padiri mukuru Musenyeri aba agomba gutanga ububasha ku bapadiri bato barikuza mu mwuga, barikuza mu nzira yo gukurikira Umwami bakamwiha wese. Iyo arikubitanga rero hari imwe mu migenzo ikurikizwa, bakagira ibyo bahererekanya akamuhereza inkoni y'ububasha, akamuha ububasha nyine akabumwegurira cyane.

Imfungwa zifungiye ahantu hose ziri kugororwa se cyangwa ziri gushyirwa ku murongo izo mfungwa ziba zifite uburenganzira nazo. ntabwo ziba zihejwe mu bintu rusange cyane ko iz' imfungwa ziba zifite uburenganzira n'ubushake ndetse n'amahirwe yo kwiga bagatangira kwiga gukora imyuga myinshi itandukanye harimo : gukora inkweto, kubaka yuzuwere itandukanye muri gereza baba bari kwigayi nta kibazo ku buryo bazagera hanze bagatangira guko nabo bakinjiza.

Zimwe mu mfungwa zikunze gukorerwa buri urubanza kugira ngo bumve nimba zirengana zibe zafungurwa cyangwa se zinakatirwe zihabwe igihano bitewe n'icyaha yakoze, rero iyo bari kujyitanga imfungwa hakunze kuba hari abantu wenda nk'abakoze jenoside habayeho ikintu cyitwa gacaca abantu bo muri gacaca babaga ari abantu basanzwe ariko basa nkaho bo bafite ubumenyi ku bintu by'imanza kurusha abandi bakaba bababuranisha ibintu kagenda.

Mu gihugu harimo abashoramari benshi ndetse bifuza guteza imbere bo ubwabo ndetse bagateza imbere sosiyete n'igihugu muri rusange. Iyo rero bahuriye mu nama usanga ari ibintu by'agaciro kuko inama yabo bakuze baba bagomba kubyazamo ikintu cy'umusaruro ku gihugu muri rusange.

Bamwe mu bavugabutumwa ba kiliziya cyangwa aba protesta baba bagomba kurangwa n'imyenda bambaye bagomba kurangwa n'imyitwarire yabo kuko baba ba roro y'abantu benshi batandukanye. Abantu bose basengangaho babafatiraho icyitegererezo kuri padiri cyangwa se na pasiteri uko yitwara nabo bikabaha ishusho nziza yo kugenderamo.

Ahazwi ko umunyabyaha uwo ari we wese, aba agomba guhanirwa icyaha yakoze ndetse akagihererwa imyaka myinshi bitewe n'icyo aricyo, rero mu rwego rwo kugira ngo imfungwa zitaba aho ziri zigahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, bakunze kubayobora mu mashuri, aho bamwe barimo kwiga imyuga myinshi itandukanye, ubwubatsi, ubudozi, gukora inkweto, ubukorikori n'ibindi byinshi bitandukanye, muri gereza baba bari kubyiga kandi ku buntu.

Abapolisi bo mu muhanda ikintu cya mbere baba bashinzwe ni ukumenya ngo imodoka ziri mu muhanda zujuje ibisabwa? Ni ukumenya ngo abo batwaye bo bafite icyangombwa barabyemerewe? Cyangwa ntibanyweye, ntibanasinze? Kugira ngo hirindwe impanuka n'ibindi byago byose byabera mu muhanda.

Abapolisi mu nshingano zabo harimo no kujya mu mihanda bakita ku mihanda cyane cyane bari kwirinda amakisida cyangwa se impanuka zibera mu mihanda, bereka abaturage ni he hemewe kunyura ibinyabiziga nabyo ibitemeje amategeko, ibitayujuje bikaba byahagarikwa kugira ngo babakumire icyago cyaba mu muhanda.

Amwe mu ma modoka ari gukorwa cyane, hari ama modoka atwara abantu, hari aya agenewe ubwikorezi bugendanye n'imizigo ndetse hari n'ayagenewe gushimisha abantu kugenda bayatemberamo, gusa ama modoka yo ni menshi ari ay'ubwikorezi arahari, ari na y'ububiko arahari menshi cyane.

firer extu wissin ubwirinzi butandukanye aho uba ufite kizimyamwoto uteganya ngo igihe haba icyago se cyangwa haje ikiza cy'umuriro w'umuriro ruratungurana umwana atwika inzu umwana yatwirika bene n'umuntu mukuru yayitwirika achad iro vision mu bwubatsi bwavuze ati reka mpange murashyize amannte nzayizane ibihari mu rwego rwo kwirinda ibyo byago byose mbere y'uko biba

Aho Leta iba iri gushishikariza abaturage bose gutunga faya egisitingwisha mu mazu yabo, bitewe n'uko inkongi y'umuriro idateguza kandi utamenya n'igihe izazira. Muri rusange rero, buri muturage wese yagakwiye kuba atunze kizimyamwoto mu rugo rwe, nkuko'uko yatunga gaze egare no gutunga kizimyamwoto kuko gaze ziba zifite ibyago byinshi byo guturikira mu nzu. Biba byiza rero iyo yiteguye kare.

Buri nyubako, ihenze ,buri nyubako ubundi yagakwiye kugira kizimyamwoto, kizimya umuriro, mu gihe hahiye ,ntago wakwitabaza amazi se, cyangwa witabaze ibindi bintu, biba byiza iyo wabiteganyije mbere ,nkuko ujya muri asilanse, nabyo ukabiteganya ,ukaba watunga kizimyamuriro igihe ahatse ukaba wayifashisha bitabaye ibintu birebi.

Amwe mu makoperative cyangwa se ibigo bitandukanye bishinzwe kurinda umutekano utandukanye urugero nko ku mabanki no muri gereza abo tuzi nka isiko bashinzwe umutekano bakunze kuba bari kurinda kuri banki barinda ikibazo icyo ari cyo cyose cyahaba cyangwa se barinda umutekano w'amafaranga n'abaturage muri rusange.

Inama z'imishyikirano zikunze gukorwa n'abayobozi b'inzego nyinshi zitandukanye guhera hejuru abaminisitiri bahamenyaya n'abandi benshi batandukanye n'abaperezida bagahurira n'abadepite bagahurira mu nama y'imishyikirano cyangwa se bagahu mu nama igiye kwemeza ikintu runaka bagiye gushyiraho itegeko nshinga bashyiraho ibintu byinshi bahuriye muri izi nama ndetse baba bakeneye ikoranabuhanga riri hejuru kurenza ikindi gihe.

Muri proje zimwe na zimwe nyakubahwa perezida wa repubulika agiye kwiyamamaza batanga harimo ko n'umuturage ari ku isonga ubundi mu buyobozi bwa Kagame Paul Kagame aba agomba gushyiraho ko umuturage ari imbere kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose we yumva ibiva muturage akaba ari naho ahera amufasha ashyira imbere cyane abo ayobora kurusha uko yakwiyitaho cyane.

Iyo tugeze mu cyumba cy'itora cyangwa se hamwe mu hantu hamamarizwa abakandida batandukanye biba bisaba ko buri mukandida n'imihigo ye umukandida ukamubona ifoto ye ariko uzi imihigo yiha ukabanza ukareba bati imihigo yiwe niyi njye ndi ibingibi arivuga nkurikije nuyu nuyu uwabikora neza ni uyu kubera iyo imihigo ye niyo iriri hejuru kurenzay abandidi.

Zimwe mu nama zikomeye cyane perezida wa Repubulika ajya yitabira Paul Kagame, ziga ku bintu byinshi bitandukanye by'iterambere rya Eastern Africa cyangwa se ku iterambere ry'igihugu ndetse n'ibihugu byinshi bitandukanye n'u Rwanda muri rusange rurimo. Izi ni inama z'igiciro cyane, inama ziba zirangwamo amadarapo y'ibihugu byahahuriye. Izi nama zari zikenewe cyane kugira ngo bige ku iterambere ry'ibihugu cyane.

Hari uburyo bugezweho bukunze gukoreshwa nk'iyo habaye inama y'abayobozi batandukanye se cyangwa ihuza ibihugu, kuko abenshi bataba bari kubasha kumva ururimi rumwe, noneho bakaba bafite ama burutufu cyangwa ibikoresho biri bukenerwe bibasha gusobanurira buri umwe wese akabyambara mu matwi, bitewe n'ururimi bavuze bigahita bishyira mu rurimi rwawe nawe uka ubasha kubyumva neza.

Hari igihe kigera bikaba ngombwa ko Leta itumira abaturage bagahurira ahantu hamwe baje bahujwe n'ikintu kimwe. Wenda tuvuge nk'iyo baje guterwa inshinge, baje gutwara ibinini, baje gutwara imiti, ibintu bitandukanye baba baje gutwara. Baba bagomba kuza bari simati, bari ku murongo ndetse bagakurikirana gitore apana kuzana akavuyo kugira ngo igikorwa kigende neza igihe bakigeye birangirane.

Mu gihe cyo kwamamaza buri mu perezida, buri muntu wese bitewe na titire ari kwiyamamarizaho abigiramo uruhare, amafoto ye abari gucicikana hirya no hino, ndetse afite n'abambasaderi cyangwa se abo twakwita nk'abantu bari kumwamamaza bari muri kabineti yiwe, bakagenda bamwamamazamu berekana amafoto ye, bamuvuga neza kugira ngo azatorwe.

Mu gihe cy'amatora mu bihugu ibyo ibyo ari byose, cyane cyane wenda tuvuge mu Rwanda baba bakere kwamamaza umuntu mpaka igihe ari bubone abamufana, akavuga imihigo ye, akavuga imigambi, icyo agambiriye gukorera abaturage, iyo abaturage bumvise ari cyiza bose bagira intumbero yo kumva bamutora, cyangwa se bamwe batanamukunze bagatora n'abandi biremewe.

Ya, muri iyi minsi abantu benshi bakuye amoboko mu mifuka barashaka gukora aho ugenda ugashaka kategori eyi yogutwara moto nawe ukabasha kuba wajya mu muhanda ugatwaragatwara ndetse hari n'ibigo byinshi byaje bibasha kubaha ama moto mugatwara hanyuma nyuma mukazagenda mukora mwishyura paka igihe mota izashirramo muverisa buri munsi.

Imwe mu mizigo ntago igisaba amamodoka kuko hari amagorofani abikora neza yabasha kwikorera imizigo harimo nk'amakesi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero abaturage benshi mu rwego rwo kurangura bitagoranye bakunze gukoresha amagorofani aho nkurangura imiceri yanarangura imifuka itanu bakayimushyirira mu ingorofani nziza iyingorofani ikaba nayo imugereza aho akorera byoroshye cyane.

Bimwe mu bikorwa remezo harimo kubaka imihanda ariko no kugura amamodoka azagenda muri iyo mihanda, rero muri Kigali hari kuba, hari kubera ikintu cyitwa ubusabane aho abaturage baborohereje, amabisi yaraje buri muturage wese ku ikarita ye agakozaho akagera aho yifuza kugera bitamugoye kandi bimworoheye.

Hajeho uburyo butandukanye umumotari kugira ngo ajye mu muhanda atware abagenzi bisaba ko iyo moto ye aba yarayijyanye muri koperative akaba ari muri koperative abamotari bibumbira hamwe bagakora koperativeperative. Koperative y'abamotari ikintu igamije ni ukwirinda akavuyo no kwirinda kudasora kuko nabo iyo uri muri koperative hari amafaranga batangamo na yo akaba ari na yo asora mu muhanda.

Mu magare menshi atandukanye aho buri muntu wese aba yiteguye kujya gufatira imodoka ava mu gace kamwe ajya mukandi. Hakunze kuba hari ibintu byinshi bitandukanye, amamodoka, abantu benshi, imizigo, kuko ntabwo abantu bagenda ari bonyine bagendana n'imizigo. Ubundi ukibona umuntu ufite imizigo uhita wibwira ko kenshi agiye gutega. Abenshi bakunze kugana litiko kuko litiko ni yo itanga serivisi nyinshi nziza cyane kurenza izindi ajase.

Amasoko menshi atandukanye, akunze kuba ari mu mazu meza ndetse hari n'isoko ryabugenewe, ariko ntibikuyeho ko hari n'abaturage baba bifitiye isoko ahantu nyine, ahantu hasanzwe bakaba bahahurira ari babiri, batatu, bahacururiza naho hakaba hahinduka nk'isoko ariko nyine hataragenewe ubucuruzi.

Ibintu bijyanye n'iterambere ry'abayobozi cyangwa cy'ibikorwa remezo biri kubakwa hari kubakwa umuhanda ariko n'abandi bashoramari baboneka bagura ibinyabiziga bizajya biwugendamo, aho buri muturage wese bitewe n'amafaranga afite abagomba kubona ikinyabiziga ari bwisangemo agatega, nubwo ibijyanye na mazuti zazamuka ndetse nabyo bikiyongera ariko byaroroshye aho buri muturage ashobora kuva mu karere kamwe akajya mu kandi byoroshye cyane ndetse mu gihe gitoya.

Hamwe muri parikingi zagenewe guparikamo amamoto, ukihagera rwose ubona hasa neza ubona ko leta ibintu yabikemuye, abamotari aho bari benshi buri umwe wese akeneye umugenzi, bitewe n'uko nyine umuntu ajya mu muhanda akeneye amafaranga, kandi aba agomba kuyabona.

Amamodoka azwiho ko atwara abantu benshi cyane muri Kigali, akoresha amakarita bitwa tapu andi go ku bufatanye na bike banka ovu Kigali. Aha ngaha iyi bisi iba ifite ubushobozi bwo gutwara abaturage benshi, gutwara sosiyete nyinshi. Ni yo mpamvu izi bisi zikenewe cyane muri sosiyete kurusha n'izindi modoka.

Amwe mu mamodoka menshi y'ubwikorezi, harimo nka toyota, dayihatso n'izindi nyinshi zitandukanye, ariko hari n'amamoto aforomye nk'imodoka ariko nyine ni ama moto nayo abasha gukora taransiporo neza, ukabasha kubashyiramo imizigo yawe ikagerayo nta kibazo igize.

Muri gare nyinshi zitandukanye hakunze kugaragaramo abaturage baba baturutse mu byaro n'ahandi hose gusa baje gusura ababo mu mujyi babazaniye byinshi bitandukanye, rero baba bakeneye ababafasha kubigezayo kuko imizigo baba bafite iba ari myinshi, baba bakeneye bamwe mu bantu bakifashisha bakabafasha bakaba banabishyura ariko babonye ubufasha bwo kubagezareza imizigo aho bagiye.

Ibinyabiziga by'ubwikorezi bitandukanye, harimo fuso, toyota, dayihatsu n'izindi nyinshi, izo modoka ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo uri umuhinzi izo modoka wayikodesha ikaza ikagutwarira ibihingwa byawe wejeje, ikaba yabigeza aho bigiye gutunganyirizwa mu nganda, aya mamodoka rwose tuba tuyakeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Nanone abantu batuye muri Kigali baracyakomeje gukoresha kibiyesi, kibiyesi yaje ari nk'igisubizo kuko yorohereza abaturage benshi cyane, aho buri umwe wese, bitewe n'amafaranga makeya, bakoresha ku ikarita birabafasha, kuva ahantu hamwe bajya ahandi, kujya mu kazi biba byoroshye cyane kuva kibiyesi zaziya, aya mabisi atwara abantu byaroroshye.

Ubwikorezi bunyuze mu mucyo bugukenera amamodokari, kuko iyo ibintu ari byinshi cyane iyo ufite imizigo myinshi ukenera amafuso ndetse n'abantu tugura amafuso, bagura amafuso bateganya ko ibiraka bizaboneka byo kugira ngo batwarire abantu imizigo yabo bayivane hamwe bayijyana ahandi, mu rwego rwo kugira ngo tubungabunge iterambere ry'igihugu ndetse n'iryacu ku giti cyacu muri rusange.

Aho leta yibanda cyane ku baturage bayo mugihe iri kubaka ibikorwa remezo nabo ntibibagirwe, ikavuga ati yego hari abagendesha ibinyabiziga ariko hari n'abagendesha amaguru, ikaba yabasigira aho kunyura abagendesha amaguru ndetse bakubaka imihanda mo hagati bakaba bahashyiraho kwambukiraho abanyamaguru hazwi nka zebura korosingi, kugira ngo hirindwe ko umuturage yabangamirwa se cyangwa impanuka za buri kanya.

Mu bantu bazi gukora pulani neza baba barize kudizayiniga uburyo ahantu hazubakwa, biba byiza iyo uwo umuntu yubatse agashyiramo n'akantu abantu bakicaramo hari igicucu. Nyine gasakaye gafite umutekano ku buryo abantu bahicara bakaganirira nta nkomyi, nta kibazo, nta zuba, nta mvura. Nyine n'abantu bakabatekerezaho bati nibwo hazaba hasa neza kurusha.

Igihugu cyacu muri rusange na Leta, bishyira imbaraga mu kuzamura impano z'urubyiruko mu buryo butandukanye buri muntu wese mu mpano afite bakagerageza kumusangayo, bakaba bahamufashiriza, niyo mpamvu umukino wa basket uri guterwa inkunga cyane, cyane ko n'umukuru w'igihugu cyacu awukunda cyane, umukino wa baket, bakunze kuwita uw'abasizimu ariko ni umukino mwiza cyane, buri muntu wese yakwifuza kumenya gukina ndetse akanawukunda.

Ibi ni ibyapa mu byapa bimwe bishyirwa ahantu abanyamaguru baribwambukire, ahantu haba haciyemo uturongo hagenewe kwambukira abanyamaguru. Aho hantu hagakunze no gushyira amatara ya feruje aribwerekane igihe kigezweho nimba ari icy'imodoka cyangwa ari icy'abanyamaguru ari bo bagiye gutambuka. Hakunze gushyira ibyapa bimeze nk'uku cyane.

Iyo ahantu hari ubwubatsi cyangwa se hari poroje y'uko ubwo bwubatsi bugiye gutangira, bakunze kuhashyira ibyapa byerekana ko aho hantu habujijwe kunyurwa muri iyo minsi, kuko haba bagiye gutangira ubwubatsi bari kwirinda bimwe mu byago byaba harimo nka agisida, umuturage ashobora kuhanyura bikaba byabyara ikibazo, kimwe mu byuma kikaba cyamugwaho, rero mu rwego rwo kubyirinda bakunze kuhashyira ibyapa byerekana ko hatemewe kunyurwa.

Iki ni kimwe mu bimenyetso biba biri ku mihanda ku byapa, byereka abatwazi b'ibinyabiziga za rumoroke n'ibyamitendo, icyerekezo bari kujyamo se cyangwa icyo bagiye kwerekeramo, icyo kiri kuvuga. Ushobora gusanga mu muhanda, umuhanda bagiye kugeramo ushunguka cyane, bakaba babibamenyesha bakoresheje bimwe mu byapa bitandukanye.

Ibyapa bikunze kuboneka ahantu hari abanyamaguru baribwambukire bikunze kuba bishushanyijeho abantu bari muri tiriyangere bagashushanyamo umuntu ameze nk'aho arikwiruka mu ibara ry'umukara. Biba bishatse kuvuga ko aho hantu nyine hagenewe kwambuka. Iyo abantu, iyo umuntu utwaye ikinyabiziga ahageze aba agomba kwitonda kugira ngo arebe ko nta muntu ugiye kwambuka atamubangamira.

Ahantu haherereye ikibuga cy'indege aho indege zigururukira naho zigwa haba hari ibyapa byinshi bibyerekana, kuko aho hantu naho haba hari umwihariko ntabwo amamodoka aba yemerewe kuhagera uko yiboneye, n'yahajya aba afite abayereka aho aparika, nyine aba afite kontorore ihambaye ku buryo aho hantu haba hizeye umutekano ku buryo nta mpanuka, nta kindi kibazo cyahaba.

Umutwazi umuntu utwara imodoka aba agomba kumekegashuwa ko ari gutwara ariko akita no ku byapa kuko icyapa nicyo kimwereka ngo imbere agiye guca hameze gute nk'iki cyapa cyo kiri kwerekana ko imbere ahantu agiye guca hari umusozi ndetse harimo n'ikoni rero biba bisaba ko yitonda agashyira amatation kuko abagomba guca mu ikoni n'umuvuduko mukeya ndetse afite n'ubushishozi bwinshi kugirango atarenza imodoka umuhanda.

Bimwe mu bikorwa remezo harimo imihanda, aho imihanda yubatse bakunda kuhashyira n'ibyapa kugira ngo ibyo byapa ku muntu uri kuhagenda utari usanzwe uhazi se cyangwa nko kwibutsa umuntu utwaye ikinyabiziga ko imbere hashobora kuba hari ibyago se cyangwa imbere hashobora kuba hari igikorwa runaka kitari kumwemerera gutwararira ku muvuduko uri hejuru, bigatuma yamenya umuvuduko ari butwarireho.

Ibyapa bitandukanye bitwereka ibiri kujya mbere, aha ngaha rero kino cyapa cyo cyaba kiri kutwereka uburyo abaturage baba bagomba gukora, bagakora iyo bwabaga kugira ngo bigende neza ndetse iyo umuntu utwaye ikinyabiziga ageze hano, ahamenya ko imbere hashobora kuba hari ubwubatsi butandukanye cyangwa hari ivugururwa ry'umuhanda ku buryo yagabanura umuvuduko yarari kugenderaho cyangwase akitonda cyane.

ahazwi nka zebura korosingi kuko harihoho abantu benshi b'abanyamaguru bakunda kwambukira hakunze gushyirwa ibyapa byerekana ko imodoka zigomba guhagarara cyangwasi kugenda aribyo bita feruje, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe cyangwa se hakazwe umutekano w'abaturage bagendesha amaguru naho umutekano u wizewe.

Bimwe mu byapa bimenyesha ibigiye kuba imbere, mu mihanda hose, haba hari ibyapa byinshi bitandukanye, bikwereka aho ugiye kwerekera, ikigiye kuba, niba ugiye kumanuka bikahakwereka, niba hari ivuriro, niba hari ikibuga cy'indege, byose biba bihari, ibyo byapa bitwereka ngo, kure tugiye hari iki.

Bimwe mu bikorwa bya leta harimo no kubaka imihanda nk'iterambere rirambye kandi iyo ritabatse umuhanda biba bishatse kuba ko ishoho y' ahantu itazahomba kuko uwo muhanda uba uzamara igihe kirekire cyane nta kibazo uhuye nacyo rero mu bikorwa bya leta harimo iterambere byo guteza imbere ibikorwa remezo.

Inyubako z'icyerekezo zubatse neza, zifite ubwubatsi bwizewe ko butapfa gusenyuka, kandi ziba zaragenewe gukorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye byinjiza amafaranga, urugero nko gucuruza, ubucuruzi butandukanye, imyenda, inkweto n'ibindi bitandukanye, amasaro akora, amasaro akora mu mitwe, amabiro atandukanye n'ibindi.

Leta y'u rwanda irashaka ko abaturage bose bava muri ntuye nabi bagatangira kubaho mu buzima bunyuze mu mucyo, aho buri muturage wese agomba kubaka inyubako igendeye ku gishushanyo mbonera, aho agomba kubaka inyubako iri ahantu heza ndetse aho hantu hakaba haragenewe guturwa byemewe na Leta.

Mu mahuriro y'imihanda cyangwa se ahantu imihanda iba ari ibiri cyangwa se irenze ibiri. Iyo abatwazi bahageze baba bagomba kwitonda kuko ushobora gutwara ukagenda kandi mu wundi muhanda hariyo hafi ikindi kinyabiziga, ugasanga birangiritse nyine bikoze agisida, bikoze impanuka. Ni yo mpamvu baba bagomba gutwara bagera ahantu hari imihanda ibiri cyangwa se itatu, bakagenda gake bigengesereye.

Bimwe mu bikorwa bya Leta harimo no gushyiraho parikingi, bagashyiraho parikingi ahantu haboneye kandi hanogeye imodoka, mu rwego rwo kwirinda akajagari n'akavuyo katerwa n'amamodoka agiye aparika mu muhanda hagati bagashyiraho bakaba bakora parikingi y'izo modoka, zikajya ziza zigahita ziparika deni abarimo bakajya gukora serivisi zibazanye ariko baparitse muri parikingi.

Tura ahantu heza utere imbere nta kiguzi kuko iyo utuye ahantu heza ubona umutekano ndetse ahantu hemerewe na leta gutura ndetse ugatura no mu nzu nziza cyane, aho ngaho biba bishatse kuvuga ko abawe bose ndetse no muri rusange, ukirirwa uvunika ariko ugataha ukaryama ahantu heza, ugataha mu nzu nziza iri bugufashe no kukuvura amavunane uba wirirwanya wakuye mu kazi.

Hamwe mu hantu abantu benshi bahurira ni ahantu haba hari icyo kunywa ahazwi nko kuri ba cyangwa se mu tubari bakicara, nyine biba byiza abantu bicaye bari kuganira gusa bafite n'icyo kunywa, ikindi kandi bicaye ahantu heza, ahantu hari ari akayaga keza, nyine ahantu hagaragara neza byahatari, ku buryo nta n'umwe biri bubangamire, ndetse buri muntu wese yakishimira kwicara.

Ahantu henshi hatandukanye hakwiye kuba hari ibintu byinshi. Urugero nk'ahantu hari ihuriro ahantu hari guparikwa amamodoka, amamoto ahantu hari guca abantu buri kanya ahantu hari ubucuruzi hakunze kurangwa akavuyo cyangwa ambutiyaje bitewe n'abo bantu. Nyine iyo abantu ari benshi ibinyabiziga nabyo ari byinshi yambutage nyinshi ariko nyine bikunze kubaho hakabona kontorore yabyo kuburyo bimanajingwa.

Gahunda ya leta igezweho ni ugutura neza tugatura kandi ahantu hemewe ndetse tukubaka amazu agezweho, amazu akomeye hahandi inkangu n'ibyiza n'ibiza bitazakanga, amazu yacu tugashyiraho ibisenge bikomeye tugakoresha amabati meza agezweho kandi amabati akomeye twizeye ko umuyaga utazaza ari mwinshi ngo utware igisenge, ndetse tukubaka twizeye neza ko ahantu twubatse turi gusora nta kibazo.

Leta y'u Rwanda yazanye gahunda yo kuvuga ngo umwana w'u Rwanda arerwe neza, umwana w'u Rwanda yitabweho afatwe neza. Ni yo mpamvu ku bigo by'amashuri aho abana baba biga mu mapirimeri ndetse n'amarerero bikunze kugaragaza ibikinisho, ibyicundo. Ibintu abana bitandukanye baba bagomba kujyamo bagahugiramo bigatuma ubwonko bwabo bwaguka mu mikurire yabo bagakura neza ntakibazo.

Bimwe mu bikorwa bitandukanye bya leta biba bigomba kuba biri ahantu hizewe kandi ahantu buri muntu wese yabasha kugera. Niyo mpamvu usanga akenshi ibikorwa bya leta bikunze kuba biri mu mazu meza ndetse amazu ageretse nk'Akarere usanga uturere twinshi twubatse mu mazu meza y'igiciro kandi ahenze.

Ubucuruzi bwemewe na leta ni ubucuruzi bufite ahantu buba buri gukorera apana hanze, uba ufite inzu runaka usorera kandi ukoreramo, aho uri gucuruza ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ububyo ukunze cyane n'amafaranga wari ufite kugira ngo ushore, ariko ukamenya neza ko wabashije kwishyura inzu ndetse ukishyura n'imisoro y'ibicuruzwa byo gukoresha kugirango uteze imbere igihugu ndetse na nawe muri rusange wirinda ibibazo bitandukanye.

Amwe mu mahoteli meza, amahoteri y'uburanga, amahoteli buri muntu wese bitewe n'amafaranga afite yararamo akabona icyumba kiza, akabona serivisi nziza, Hoteri rwose impumuro yo muri hotri uburyo haba hagaragara viyu ya hoteri yonyine yatuma umuntu yumva ashatse kurara muri hoteli ndetse akanayigumamo igihe kinini.

Inyubako nziza zirangwa n'ibintu byinshi bitandukanye, icya mbere, harangwa kuba hubatse neza, harangwa n'isuku, harangwa n'ibipangu byiza, harangwa n'ibikoresho bizaramba bimara igihe, ibyo byose biri mu bintu bikwereka ko ahantu hubatse neza kandi niyo nyubako ari inziza.

Imwe mu mihanda itarageramo kaburimbo iyo tugeze mu mihanda turi hafi kwinjira muri kaburimbo, biba bigomba kudusaba gushishoza kuko ukinjira hari igihe ushobora gukubitana n'irikuza ifite umuvuduko udasanzwe ugasanga muhise mukora impanuka. Biba byiza rero iyo ugiye kwinjira muri kaburimbo utwaye ikinyabiziga, ukabanza ukitonda ukareba hirya no hino, ndetse ukagendera ku muvuduko muke cyane kugira ngo wirinde impanuka n'ikindi gisa na cyo.

Hamwe mu hantu hazwi nka ropuwe. Ropuwe ni ahantu amamodoka aba anyuraniramo, azamuka, amanuka, ajya hariya. Ugasanga hari amerekezo menshi. Bamwe mu gukata bigasaba ko bazenguka iyo ropuwe, abandi bagaca hirya. Gusa ropuwe iba irinesesari cyane cyane mu mihanda cyane ikoreshwa, harimo ahashunguka cyane.

Leta y'u Rwanda ntacyo iba itakoze kugira ngo umuturage wayo abone ko iterambere riri kugenda ryaguka, bagakora ibikorwa remezo bifatika kandi bizaramba, aho baba bari kubaka imihanda itandukanye, bagakora ibiraro hejuru munsi hari umuhanda, hejuru no ku kiraro naho bakahashyira undi muhanda, mu rwego rwo kwirinda ibintu byinshi bitandukanye byaterwa n'isuri n'ibindi bisa na byo.

Imihanda myinshi ikunze kunyurwamo n'ibinyamitende cyane kurusha amamodoka, iyo mihanda ikunze kuba iherereye mu bice bijyanye n'ibyaro, kuko mu muhandaho mu mijyi hakunze kuba hari akavuyo hari ama ambutiyaje aterwa n'ibinyabiziga byinshi. Rero imihanda igaragaramo abagenzi bake n'ibinyamitende kurusha amamodoka biba bishatse kuvuga ko iyo mihanda iherereye mu nkengero z'umujyi.

Bimwe mu bikorwa remezo biherereye aherekeye nyabugogo kuko nyabugogo ari ahantu hahurira abantu benshi hatandukanye bisaba ko bashyira ahantu henshi cyane ho kwambukira, nka za zebura korosingi, kugira ngo abaturage nubwo ari benshi ariko babone uburyo bakoresha umuhanda bitabagoye bambukiranya kandi badateje impanuka muri rusange.

Ubucuruzi butandukanye ndetse se cyangwa akavuyo kaba kari mu muhanda akenshi buri wese aba muri busi yishakira amafaranga, abaturage bamaze kwisobanukirwa aho buri wese bitewe n'icyo akunze se cyangwa nubushobozi afite abasha kwinjiza. Urugero nk'abamotari babasha kwinjiza ko batwara abagenzi ndetse n''abacuruza amainnetena bakasha kwinjiza bitewe n'uko batanze serivisi neza n'ubucuruzi bindi bitandukanye bitewe n'icyo ukora wabasha kwinjiza kandi ukanasora byoroshye cyane.